Abantu batandukanye harimo abagore, abana, abagabo bari ku ivomero, baravoma amazi, amazi ni meza ni ingirakamaro afasha umubiri w'umuntu gukora neza, kandi akagira n'uruhare mu bikorwa bitandukanye by'ubuzima.

Umukobwa ukuze hamwe n'abana babiri bafite ikivomesho baravoma amazi. amazi ni ingirakamaro kuko adufasha mu bikorwa bitandukanye by'isuku.

Abagore n'abana bateraniye hamwe, aba bagore barasuzumisha abana babo ibibazo bitandukanye, bashobora kuba bahura na byo birimo indwara ndetse n'ubundi buzima butandukanye.

Urubyiruko rutandukanye rwiganjemo abagabo, abagore bari mu bukangurambaga bugamije kurwanya kanseri. Kanseri ni mbi, icyiza ni ukuyisuzumisha ukamenya uko uyirinda.

Abagore n'abagabo bagiye gusura abana mu irerero, abana bakiri batoya iyo bagezeje imyaka itatu, ine, itanu, bahurira hamwe mu irerero kugira ngo buyungure ubumenyi.

Muganga aratera urushinge umuntu. Iyo ufite ikibazo cy'ubuzima cy'uburwayi cyangwa ikindi kibazo icyo ari cyo cyose, kigendanye n'ubuzima, ureba muganga akaba yagufasha, harimo no kuba yagutera urushinge kugira ngo ubuzima bwongere bugaruke.

Umubyeyi w'umudamu ufite n'abana batandukanye, bahuriye ku mugezi aho bagiye kuvoma amazi. Amazi ni ingirakamaro, ni meza, atuma mu rugo bigenda neza, cyane nko gufasha mu bijyanye n'isuku.

Abaganga batandukanye barimo abagore n'abagabo, bambaye umwambaro w'akazi, harimo amataburiya, bari kumwe kandi n'umudamu wambaye ikanzu y'umutuku, bigaragara ko amaze kubaha amahugurwa ku kutanga serivise zinoze z'ubuvuzi.

Abagabo n'abagore bambaye neza baturutse ahantu hatandukanye, bahuriye hamwe mu nama igamije guteza imbere imibereho myiza, iyo nama yahuje ibihugu by'abavuga ururimi rw'Icyongereza.

Abagore benshi n'abagabo n'abasaza n'abakecuru bahuriye hamwe, aho bari gufata inama zitandukanye z'ubuzima zabafasha gukomeza kubaho neza nta kibazo.

Abantu batandukanye bahuriye ku kigo nderabuzima aho bagiye gufata serivise zitandukanye z'ubuzima, hari abagore bahetse abana, hari abagabo abo bose icyo bashaka ni serivise z'ubuzima.

Umubyeyi aravuza umwana we. Umwana we ararwaye afite ikibazo cy'ubuzima kimukomereye. Kuvuza umwana ni ingirakamaro kuko bituma yongera kugarura ubuyanja, bityo ubuzima bwe bukagenda neza.

Umubyeyi arateza umwana we urushinge, iyo umwana ari mutoya agafata inkingo ku gihe bituma akomeza kugira ubuzima bwiza. Iyo umwana adafata inkingo ashobora kurwara indwara zitandukanye zirimo iseru, akaniga, agakwega n'izindi.

Urubyiruko rutandukanye rurafasha abana bafite ikibazo cy'imirire, babaha amata, babaha n'ifunguro, gufasha abana ni byiza kuko bituma birwanya igwingira.

Abagore n'abagabo baricaye barungurana ibitekerezo bitandukanye, iyo abantu bicaye hamwe bakungurana ibitekerezo bituma bakomeza gutanga serivisi zinoze kandi bikagirira abantu bose akamaro.

Abantu benshi batandukanye barimo abagabo n'abagore kandi higanjemo n'abana baravoma amazi, amazi ni ingirakamaro afasha mu gukora amasuku n'ibindi.

Abagore batandukanye bari ku mugezi, bafite ibikoresho, harimo indobo imwe isa icyatsi indi isa umutuku, bakaba bakoresha ibyo bikoresho mu kuvoma amazi.

Umwana afite indobo bisa umuhondo mu ntoki ze, arimo aravoma amazi agiye kwikorera. Amazi yavomye aramufasha gukora ibikorwa bitandukanye nko kumesa, guteka n'ibindi.

UNICEF ni Umuryango Mpuzamahanga ushinzwe kurengera Abana. Iyo uburenganzira bw'abana bwubahirijwe, ni byiza kuko bituma bakura neza bakagirira Igihugu akamaro ndetse n'ubuzima bwabo bukarushaho kugenda neza.

Umwana ari ku mugezi aravoma afite ijerekani y'umuhondo, yambaye agapira k'umuhondo ndetse n'ipantaro y'iroza. Amazi ni ingirakamaro afasha mu bikorwa bitandukanye byo mu rugo.

Ibikoresho bikoreshwa mu kongera umwuka kwa muganga, aho iyo abarwayi bananiwe cyane cyane abakoze impanuka n'abandi bahuye n'ibibazo bitandukanye bongererwa umwuka kugira ngo babashe kubaho.

Inshinge zitandukanye zikoreshwa kwa muganga bituma abarwayi babona ubuvuzi bwiza, iyo umurwayi arwaye ukamutera urushinge bituma aba yongera kugarura ubugingo kandi akajya kongera kugira ubuzima bwiza.

Urubyiruko rutandukanye rurimo abakobwa n'abahungu, bari mu mahugurwa agamije iterambere ry'umwana. Iterambere ry'umwana ni ryiza, kuko iyo wita cyane ku bana bituma bakomeza kumererwa neza.

Umwana arafata urukingo, inkingo ku mwana ni nziza kuko zituma hirindwa indwara zitandukanye, zirimo: Agakwega, Akaniga, Rubeyole n'izindi ndwara zose abana bashobora kwandura bikabangiriza ubuzima.

Abana baravoma amazi y'ikidendezi, aya mazi ntago ari meza ku buzima bw'umuntu kuko ntago aba asukuye, iyo uyanyoye cyangwa ukayakoresha ibindi bikorwa bitandukanye ntago ari byiza kuko wakandura indwara ziterwa n'umwanda.

Umwana afite icupa ririmo amazi, iri cupa ririmo amazi ntabwo asukuye. Iyo umwana anyweye amazi adasukuye ni bibi kuko bishobora kumutera indwara zitandukanye.

Umukobwa w'umuforomo aragira inama abaturage kuri serivisi zitandukanye z'ubuzima ndetse n'ibikorwa bitandukanye bakora kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kugenda neza, ubukangurambaga ku buzima n'ingirakamaro kuko bifasha abantu kugira ubumenyi ku bijyanye no gukoresha neza ibyo bafite kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Umugabo ubyibushye wambaye umupira w'umweru, ufite indangururamajwi mu ntoki aratanga ikiganiro ku bukangurambaga bugamije kwita ku buzima bwo mu mutwe aho dukorera, ubuzima bwo mu mutwe ni ingenzi budufasha kumererwa neza.

Umugabo ukuze aribuka abe bitabye Imana, kwibuka abacu ni byiza kuko bidufasha kuruhuka umutima kandi twibuka n'icyatumye abo ngabo bitaba Imana bityo tukagira ubuzima buzira guheranwa n'agahinda.

Ubuzima bwo mu mutwe ni ubuzima bukomeye cyane, aho iyo butitaweho usanga abantu bamererwa nabi cyane ko hari ibibazo bitandukanye bishobora gutuma umuntu ahungabana, bityo akwiye kwitabwaho kugira ngo ubuzima bwe bugende neza.

Abantu batandukanye bahuriye hamwe bakora inama igamije kuzamura imibereho myiza na gahunda zo kunoza ubuzima n'ubuvuzi. Kugira inama no kwiga kuri gahunda zitandukanye z'ubuvuzi ni byiza bifasha mu kugira ngo abantu bakomeze bagerweho na serivisi nziza.

Abantu biganjemo abakiri batoya n'abakuze harimo abagore n'abagabo, bamaze gukora inama igamije kuzamura ubutabera muri rubanda.

Umukobwa witeze igitambaro cy'umuhondo mu mutwe wambaye isaha ku kaboko wambaye ijipo n'agapira aricaye ategerejeko baza kumwitaho. Kwita ku bafite ubumuga bwo mu mutwe ni byiza kuko bituma bamererwa neza kandi bakumva bakunzwe.

Umugabo ufite ubumuga bwo mu mutwe yicaye ku muhanda afite ishashi irimo amazi, yambaye imyenda icikaguritse ndetse uburyo yitwara biragaragara ko afite uburwayi bwo mu mutwe.

Umusore bigaragara ko abayeho mu buzima bubi, ari ku muhanda ategereje abamufasha, gufasha abantu bari ku muhanda ni byiza bituma na bo bumva ko bisanga muri rubanda kandi bakagira ubuzima bwiza.

Ubuzima bw'abana b'ingimbi n'abangavu cyane cyane bwo mu mutwe, ni ingirakamaro kuko imyaka baba bagezemo, hagati ya cumi n'ibiri na cumi n'umunani, ni imyaka igoye iyo utabitayeho neza bituma ubuzima bwabo bwangirika.

Abana b'abanyeshuri barishimye barahabwa inama n'ibiganiro bitandukanye, mu gukomeza kunoza neza ubuzima bwabo, iyo abana biga bibafasha kugira ejo heza bityo bakazagera aho bigeza, imiryango yabo ndetse n'igihugu.

Ubuzima bwo mu mutwe ni ubuzima bukomeye cyane, aho butitaweho usanga umuntu agira ibibazo bitandukanye, bikaba byamuviramo no kwiyahura akaba yapfa kubera kutitabwaho; bityo kugirwa inama no gukomeza gukurikiza gahunda za muganga ni ingenzi.

Urubyiruko rutandukanye rwiganjemo abasore n'inkumi ndetse n'abashinzwe umutekano cyane cyane polisi, bari mu bukangurambaga bwo kurwanya ihohoterwa cyane cyane rishingiye ku gitsina, akaba ari inshingano ya buri wese.

Umwana mutoya wambaye ishati y'umweru, wicaye ku ntebe, arafite akantu ari kurya, iyo uri umwana ukagira ibikorwa bitandukanye biguhuza, uba ufite amahirwe menshi yo kugira ubuzima bwiza.

Ubufasha mu kugirwa inama ku buzima butandukanye, haba ubwo mu mutwe, bushobora gutuma umuntu agira ubuzima bwiza buzira ihungabana n'ibindi bibazo byose umuntu ashobora guhurira na yo mu buzima busanzwe.

Ikigereranyo n'impuzandengo z'impfu z'abantu bapfa biyahuye kubera ibibazo byo mu mutwe n'ibindi bibazo byugarije Isi muri rusange, birimo ubukene, intambara n'ibindi, abantu iyo batabyitayeho birangira biyahuye, ubuzima bwabo bukajya mu kaga.

Umugabo aricaye afashe ku gahanga, hari kandi n'umukobwa uri kumuhumuriza, iyo umuntu afite ikibazo cyo mu mutwe agahumurizwa, ni byiza bimufasha kongera kwisanga n'abandi, akongera akagira ubuzima bwiza.

Haragaragara abasore, n'inkumi, n'abagabo, bari bafite ibi ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kuvura abarwayi bo mu mutwe. Ubuzima bwo mu mutwe ni ingirakamaro kuko butuma tugira ubuzima bwiza.

Abagore n'abagabo barahagaze basoje amahugurwa ku bukangurambaga bujyanye n'ubutabera muri rubanda, ubutabera buboneye butuma abantu bafite uburenganzira bwangijwe n'abandi, babasha kwishima bakisanga muri sosiyete.

Umugabo wambaye ishati watebeje mu ipantaro y'umweru wambaye isaha ku kuboko, yifotoreje ku bitaro byo mu mutwe bya Ndera, ibitaro byo mu mutwe bitanga ubuvuzi butandukanye butuma abafite ibibazo mu mutwe bongera kugarura ubuzima.

Umuganga arakura amenyo umurwayi. KIyo umuntu afite ikibazo cy'amenyo cyane cyane afite ibibazo bitandukanye akaba aribwa cyane mu menyo bituma umuganga ashobora gufata ikemezo cyo kurikuramo bityo irisigaye akaba ari ryo azakoresha.

Umugabo afite akantu mu ntoki, arapima amenyo ye, amenyo ni meza afasha mu kurya, iyo afite ikibazo bituma ubuzima bwawe bugenda nabi.

Abaganga b'abasore babiri barita ku murwayi urwaye amenyo. Umurwayi yaje kwivuza amenyo, aho abo baganga bari kumukorera isuzuma kugira ngo bongere batume amererwa neza.

Abana bafite ibikoresho bitandukanye byikoreshwa mu gusukura amenyo, harimo uburoso, korogati, amazi ndetse n'igikombe. Gusukura amenyo ni byiza bituma ubuzima bw'amenyo bugenda neza.

Abaganga babiri barimo umusore n'umukobwa baravura, kandi bagasuzuma umwana mutoya ikibazo cy'amenyo. Iyo umwana afite ikibazo cy'amenyo, akisuzumisha, arakira bityo agakomeza kubaho neza.

Muganga afite ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, aravura umugabo uryamye ku gitanda, wasamye, bigaragara ko amenyo ye afite ikibazo.

Umwana arisuzumisha amenyo, ubuzima bw'amenyo ni ingirakamaro, aho iyo afite ikibazo usanga ibintu byakomeye kubera kubura uko umuntu arya neza.

Umusaza ukuze ari kumwe n'umukecuru uri kumwitaho, kwita ku buzima bw'umuntu ukuze ni byiza kuko bituma umuntu asaza neza, akagira ubuzima bwiza.

Umudamu ukuze ndetse na bo bafatanyije barita ku basheshe akanguhe n'abageze mu zabukuru, kwita ku bakuze ni ingirakamaro kuko ubuzima bwabo buba bwatangiye gucika intege bityo bigakenera umuntu ubashyigikira.

Umukobwa mukuru bigaragara ko yita ku bantu bakuze, arita ku musaza, umusaza ugeze mu zabukuru, yaje gushaka serivisi z'ubuvuzi bw'abakuze.

Umukobwa w'umuganga, arafasha umukecuru gukora siporo, akurura akantu k'umuhondo kugira ngo akomeze kumererwa neza, siporo kubasheshe akanguhe ni nziza, zituma bagira ubuzima bwiza, bagakomeza kubaho neza.

Umukobwa ukiri mutoya arita ku musaza ugeze mu za bukuru, utakibasha kugenda, kubera ko aragendera mu kagare, ariko ubuzima bwe ni bwiza kuko afite umwitaho, kandi arishimye.

Umukecuru ukuze yambaye agasengeri arakora siporo ngororamubiri, iyo umuntu akora siporo ni byiza kuko bituma atandura indwara zitandukanye, zirimo iz'umutima, imivuduko n'izindi.

Umugabo ukuze w'umusaza wambaye umupira w'umweru ari kumwe n'umukecuru barakina imikino itandukanye, iyo abasheshe akanguhe bahuriye hamwe bituma ubuzima bwabo bugenda neza.

Umusaza ari kumwe n'umwitaho baraganira ku bikorwa bitandukanye by'ubuzima bwe, baraganira ku kuba yakomeza kwitwara neza kugira ngo mu zabukuru azabashe kubaho neza.

Umukobwa wita ku barwayi, ufite imisatsi miremire, arita ku murwayi wambaye umupira w'umweru, kwita ku basheshe akanguhe ni byiza bituma bakomeza kumererwa neza.

Abakecuru bageze mu zabukuru barakora siporo yo kurambura amaboko, siporo ku bakuze ni nziza zituma birinda indwara zitandukanye zirimo umubyibuho ukabije, umuvuduko, indwara z'umutima n'izindi.

Abamansera bihayimana batatu bari kumwe n'umuyobozi mukuru w'Igihugu cy'u Rwanda, baraganira ku mishinga itandukanye y'ubuzima, aho bemeranywa kuri gahunda zitandukanye zigamije kuzamura ubuzima mu gihugu.

Ubuvuzi bwa Kanseri mu Rwanda butuma harindwa ibibazo bitandukanye bishobora guterwa n'izo ndwara harimo impfu, ubumuga n'izindi, iyo zitaweho bituma abantu bakomeza kumererwa neza.

Urubyiruko rutandukanye rwiganjemo abakiri batoya ndetse n'abakuze, bari mu bukangurambaga bugamije gukangurira abantu kugira ubuzima bwiza, birinda indwara.

Inama yabaye mu bihumbi bibiri na makumyari na kane igamije ubushakashatsi ku buzima ndetse na gahunda zitandukanye zigamije iterambere ry'ubuvuzi, yitabiriwe n'abayobozi bakuru b'igihugu ndetse n'abandi bantu bose babifitemo inshingano.

Ubuzima bwiza n'imibereho myiza ni ingirakamaro kuko iyo umuntu abayeho neza ubuzima buzira kurwara, ni ingirakamaro kuko bifasha mu kwiteza imbere no gukora ibindi bikorwa bitandukanye yita ku muryango, ateza imbere n'igihugu cye.

Abagabo babiri bafite ibipapuro mu ntoki bambaye imyenda irimo amabara y'iroza ndetse n'umutuku ari kumwe n'undi mugore uri inyuma wambaye ingofero itukura.

Abaganga babiri barimo umusore n'umukobwa, barasuzuma abakecuru indwara zitandukanye, aho bari kubafata ibizami by'amaraso kugira ngo basuzume niba nta ndwara bafite.

Abakobwa n'abasore b'abakorerabushake bariga uburyo bwo kuvura umuntu bamuha ubutabazi bw'ibanze, mu gihe ahuye n'ikibazo avunitse se cyangwa agize ikindi kibazo cy'uburwayi.

Urubyiruko rutandukanye ruritabira amahugurwa, kwitabira amahugurwa ni byiza kuko bituma umuntu yiyungura ubumenyi, akagira uruhare mu iterambere bitewe n'amahugurwa runaka aba yakoze.

Umugabo uhagaze, munini, wambaye ikote, aratanga ikiganiro ku bukangurambaga bugamije kwirinda no gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Haragaragara uburyo butandukanye bugamije kurwanya igwingira, cyane cyane mu bana batoya, ni gahunda itandukanye igenga uburyo bwo kurwanya igwingira mu bana.

Inzu ikorerwamo ubuvuzi butandukanye, harimo ibikoresho bitandukanye by'ubuvuzi, ubuvuzi ni bwiza kuko iyo umuntu yarwaye, bituma abona imiti ku gihe kandi iyo abonye imiti ku gihe agakirira ku gihe.

Ibitaro ni byiza cyane bituma abantu bafite ubuzima buri mu kaga babona ubuvuzi, cyane cyane abakeneye kubyara cyangwa ababyeyi bakeneye serivisi zitandukanye z'ubuzima,...

Umukozi w'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe Ubuzima, aragira inama umugabo waje kwisuzumisha indwara y'umuvuduko, iyo ukoze siporo neza ntushobora kwandura indwara zitandukanye, harimo umuvuduko, umutima n'izindi.

Inyubako ikoreramo abaganga kandi igafasha abayigana cyane cyane baje kwifuzaza kanseri ,kubona serivisi zitandukanye, kanseri ni indwara mbi iyo utayivuje kare bishobora gutuma ubuzima bwawe bujya mu kaga.

Umuganga arita cyane ku murwayi, aho amubaza ibibazo afite by'ubuzima, kugira ngo arebe icyo yamufasha. Ari kumwe n'umuhagarariye mu kazi...

Ivuriro ryo kwa Nyirinkwaya, ivuriro rifite ubuzima gatozi, ni ivuriro kandi rifasha cyane cyane mu gutanga serivise zitandukanye z'ubuzima, ububyaza ubuvuzi bundi butandukanye.

Abagore, abagabo, abakecuru n'abasaza bateraniye hamwe baricaye bateze amatwi umugabo uri kubabwira uburyo bwo kwirinda indwara zitandukanye, kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Abarwayi babiri barimo umwana barimo kandi n'umusaza. Bose baryamye kwa muganga aho barikwitabwaho kugira ngo ubuzima bwabo bwongere bumererwe neza.

Inyubako y'ivuriro hari abarwayi, hari abaganga, abarwayi bategerereje hanze ko babavura, inyubako y'ivuriro ni nziza, kuko ituma abakeneye serivisi z'ubuvuzi bazibona ku gihe.

Inzu nini icururizwamo imiti aho iyo ugiye kwa muganga bagasanga nta miti ihagije bafite cyangwa irahenze cyane, bashobora kukohereza kuri izo nzu kugira ngo ubuvuzi baguhaye bugende neza.

Ababyeyi babiri barivuza indwara zitandura, indwara zitandura harimo umutima, umuvuduko w'amaraso, ucya usanga akenshi na kenshi zibasira abantu bakuze, bageze mu myaka y'izabukuru.

Inzu yo kwa muganga aho abarwayi batandukanye bajya bagahurira abaganga babitaho, bityo muri uko kubitaho bakabaha ibibafasha mu kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze bugende neza.

Inyubako ivurirwamo abarwayi batandukanye, aho abarwayi bajya bagahura n'abaganga bakabafasha muri serivisi zitandukanye zo kubaha imiti no kubavura indwara kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Ku kigo nderabuzima cyane cyane aho bakirira abagana icyo kigo nderabuzima higanjemo abagore n'abana, hari abatonze umurongo bategereje serivisi zitandukanye z'ubuvuzi.

Umurwayi cyangwa umudamu ufite ubumuga bw'ingingo ari mu kagare. Iyo urwaye cyangwa ufite ikibazo cy'ubumuga ukagura igare rigufasha kugenderamo, ni byiza kuko bifasha umubiri w'umuntu gukomeza gukora nta kibazo.

Ahantu hivurizwa ibijyanye na siporo n'ibikorwa bitandukanye ngororamubiri, aho ababikora bibafasha gukomeza kugira ubuzima bwiza no kumva bameze neza.

Ibitanda, supanete, umuntu uhagaze arita ku masuku y'ibyo bikoresho, kwa muganga ni ho hagaragara cyane ibi bikoresho, aho usanga byifashishwa n'abarwayi bafite ibibazo bitandukanye.

Umubyeyi arakingiza umwana we abifashijwemo n'umuganga. Gukingiza umwana ni byiza bituma umwana akurana ubuzima bwiza kandi akabona icyo akeneye cyose mu buzima.

Kwa muganga hari abarwayi batandukanye, hari kandi n'abaganga. Iyo urwaye kujya kwa muganga bakwitaho, bakaguha imiti, bakaguha n'ubundi butabazi butuma umuntu amererwa neza.

Umwana aripimisha umuvuduko w'amaraso. Iyo wipimishije kare ukamenya uko ubuzima bwawe buhagaze, biba byiza kugira ngo ubone uko wirinda, gukora siporo no kunywa amazi menshi, ni bimwe mu bigufasha gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Hari ibikoresho bitandukanye bya siporo, aho usanga siporo zimwe bazikora birukanka, izindi bakazikora bagorora umubiri. Gukora siporo ni byiza, bituma umuntu agira ubuzima bwiza.

Inyubako y'ivuriro, hari imodoka, hari n'abantu baje gushaka serivise zitandukanye z'ubuvuzi. Ubuvuzi ni bwiza butuma umuntu iyo yagize ikibazo yongera kugarura ubuzima.

Umuganga aravura umusore mukuru, kwivuza ni ibyiza, iyo urwaye ukajya kwivuza bituma ugarura ubuzima bityo ukagira icyo wimarira, iyo umaze igihe urwaye ukabona muganga akakuvura, ibintu byongera kugenda neza.

Umugabo baramuzirika igitambaro ku kaguru, bigaragara ko yakomeretse ajyenda. Iyo wagize ikibazo cyo gukomereka cyangwa indi mvune wagira, ukagana ababishinzwe, abaganga, bituma ukira vuba.

Umuntu uryamye arakorerwa ubugororangingo n'umugabo uhagaze, amufashe akaguru, arimo aragenda agakandakanda, bigaragara ko ashaka kumuvura. Kwivuza ni byiza bituma ugira ubuzima bwiza.

Imbangukiragutabara ifasha abarwayi n'abarwaza n'abaganga gutwara abarwayi babakura ku kigo nderabuzima babajyana ku bitaro bikuru. Ifasha cyane abarembye n'abandi bafite ibibazo byihutirwa kubona ubutabazi bw'ibanze.

Umukobwa aranywa amazi, kunywa amazi ni ingirakamaro, bituma ugira ubuzima bwiza kandi ugafasha n'umuryango wawe kwiteza imbere, iyo unyweye amazi ntuhura n'ibibazo by'uburwayi kandi bigufasha kubaho neza.

Umuganga aravura uwavunitse mu ivi, kuvunika bishobora guturuka kubera gukora siporo cyane ariko kandi iyo ubonye umuganga akakuvura, bituma wongera kugira ubuzima bwiza.

Umuntu wambaye isengeri y'umukara, arakora siporo yo kunanura amaboko n'amaguru, afashe amaboko ye ayafatisha ku mano ye kugira ngo agororoke. Bituma imitsi ikora neza, amaraso agatembera neza, umuntu akagira ubuzima bwiza.

Umukinnyi ari muri siporo arangije agira ikibazo k'imvune abaganga bari kumwitaho. Iyo umuntu agize ikibazo ari muri siporo akabona ubuvuzi bimufasha kongera kugaruka agakomeza agakora siporo nta kibazo.

Umukobwa wambaye ipantaro y'umukara n'isengeri y'umukara arakora siporo yo kunanura amaguru. Iyo unanuye amaguru ni byiza. Bituma umubiri ukora neza ukagira ubuzima bwiza.

Amazi barayasuka mu kirahure, bityo bakabona kuyanywa, iyo unyweye amazi ni ingirakamaro kuko bifasha amaraso y'umuntu gutembera neza, ndetse umuntu akagira ubuzima bwiza.

Urubyiruko rwiganjemo abakobwa n'abasore, barakora siporo ngororamubiri. Siporo ngororamubiri ni nziza, ituma amaraso atembera neza mu mubiri, bityo bakagira ubuzima bwiza bakiteza imbere.

Umusore aranywa amazi mu gacupa, kunywa amazi ni byiza, bituma amaraso atembera neza mu mubiri, bikazamura icyizere cy'ubuzima kandi iyo unyweye amazi ntuhura n'ibibazo bitandukanye byo kurwara indwara.

Umusore munini muremure wambaye isengeri y'ikigina, aranywa amazi kandi agakora siporo. Kunywa amazi ugakora siporo ni ingirakamaro, bifasha umubiri w'umuntu gukora neza.

Umukobwa usoje gukora siporo, ufite igitambaro ku rutugu aranywa amazi, gukora siporo ni byiza ariko iyo urengejeho kunywa amazi bikaba byiza kurushaho.

Amazi arasukwa mu kirahure, kugira ngo bayanywe. Iyo ushutse amazi mu kirahure ukabona kuyanywa, ni byiza kuko uba uyanywanye isuku, bityo umubiri wawe ugakora neza, kandi ukagira ubuzima bwiza.

Umusore arakora siporo, siporo ananura amaguru n'amaboko. Gukora siporo ni byiza, bituma umuntu agira ubuzima bwiza, agakomera kubaho nta ndwara bityo akiteza imbere.

Umusore munini w'ibigango, ubona ko yakoze siporo, aranywa amazi, amazi ni meza, ni ubuzima, ni ingirakamaro, afasha umubiri w'umuntu gukora neza, bityo agakura neza.

Umukobwa afite igitambaro mu bitugu, afite kandi icupa mu ntoki ry'amazi, avuye gukora siporo ndetse ari no kunywa amazi, gukora siporo no kunywa amazi bifasha umubiri w'umuntu gukora neza.

Umugabo arakora siporo yo kunanura amaguru, yaziritse umushumi ukweduka muremure ku kaguru ke, awuzirika ku cyuma gifashe hejuru, iyo ukora izi siporo, bituma umubiri w'umuntu umererwa neza.

Umukobwa wambaye agasengeri wambaye kandi ipantaro y'umukara arakora siporo yo kurambura umugongo, siporo ni nziza zituma umubiri w'umuntu ukomeza kumererwa neza.

Umusore arakora siporo yifashe ku ivi. Siporo ni nziza zituma umuntu agira ubuzima bwiza. Iyo ukora siporo ntabwo wandura indwara cyane cyane ziriya bita izitandura nk'umutima, ibihaha, impyiko n'izindi.

Abagabo babiri bafite umupira wa rugubi mu ntoki, barirukanka mu nzu ikorerwamo imyitozo. Barakora imyitozo kugira ngo babeho neza, ubuzima bukomeze kuba bwiza.

Ibikoresho bitandukanye birimo ibya siporo, harimo kandi n'ifunguro rituma umuntu agira ubuzima bwiza, iyo ukoze siporo ukarya neza bifasha umubiri w'umuntu gukora no gukura neza.

Umurwayi wavunitse akaguru, ari mu gikoresho cyabugenewe, hari kandi n'umuganga ushinzwe kwita ku barwayi, iyo ufite ikibazo cy'imvune uvugana umuganga ugufasha.

Umuganga akoze ku ivi ry'umurwayi bigaragara ko yagiriye ikibazo muri siporo yarari gukora, kwivuza ni ingirakamaro kuko iyo utivuje bituma ubuzima bwawe bugenda nabi.

Hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa muri siporo hari kandi n'imbuto zitandukanye, zirimo imineke, amapera, pavuro n'izindi. Iyo ukora siporo kandi ukarya neza bifasha umubiri w'umuntu gukomera no gukora neza.

Umukobwa muremure ufite ibisuko mu mutwe wambaye isengeri y'icyatsi arakora siporo yo kunanura amaboko. Siporo ni nziza ifasha umubiri w'umuntu gukora neza akagira ubuzima bwiza.

Imirire myiza igizwe n'imbuto, ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri ndetse n'ibirinda indwara, iyo ufata ifunguro ryiza ndetse ukanakora siporo bituma umubiri wawe umererwa neza.

Umugabo mu kiganza cye cy'ibumoso, afite akantu k'ubururu, yafatishije ku ivi rye, bigaragara ko arimo arahavura. Iyo wivuje neza ugakira, ukomeza kwitwara neza, kugira ngo ugire ubuzima bwiza.

Umukobwa wambaye umupira w'umukara wambaye kandi agakabutura k'ubururu arakora siporo yo kurambura amaboko ndetse akananura n'amaguru, siporo ni nziza zituma umuntu yirinda indwara zitandukanye.

Ikiganza kiriho umwambaro bambara mu ntoki witwa ga usa umukara, bakaba bazifashisha bakora siporo zitandukanye nko kunyonga igare, gukora izindi siporo ngororamubiri nko kwirukanka, bityo bigatuma umuntu atananirwa.

Igiti cy'umuravumba giteye mu ishyamba, iki giti kifashishwa mu gukora imiti itandukanye gakondo, abantu barwaye indwara zitandukanye nk'inkorora, ibicurane bakayifashisha kugira ngo bakire.

Amababi y'icyatsi agaragara nkaho ari umuti gakondo, umuti gakondo ufasha abarwayi kuba bamererwa neza ariko ntabwo wagirwa inama yo kwivuza gakondo kuko ushobora gushyira ubuzima bwawe mu kaga.

Imiti itandukanye ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, kwivuza ni byiza cyane ko umuntu arwaye aba yumva atameze neza ariko iyo amaze kubona imiti ku gihe ituma ubuzima bwe bumera neza.

Ibyatsi bitandukanye akenshi byifashishwa mu kuvura abantu mu buryo gakondo, kwivuza mu buryo gakondo, usanga ari byiza ariko nanone bishobora kugira ingaruka zitandukanye ku buzima bw'umuntu.

Umugabo yagiye kugura imiti gakondo kandi umugore ni we uyicuruza. Imiti gakondo ni myiza kuko iyo kwivuza bisanzwe bidashobotse, imiti gakondo na yo wayikoresha.

Ibyatsi bitandukanye, bivura indwara zitandukanye. Iyo abantu bafite ibibazo bitandukanye nk'igifu, umutima, bashobora gukoresha ibyatsi gakondo bivura.

Ibyatsi bigaragara ko biri mu ishyamba ibi byatsi byifashishwa cyane cyane mu miti gakondo kandi bishobora gutuma umuntu agize ikibazo cy'uburwayi yongera kugarura ubuzima.

Igiti kinini, kirekire, kiriho amashami, biragaragara ko kiri mu ishyamba hagati, icyo giti kikaba cyakwifashishwa mu buvuzi gakondo. Iyo umuntu arwaye ,ashobora kugana abavuzi gakondo bakamuvura.

Imiti gakondo ni myiza cyane kuko ifasha muri cya gihe abantu baba badafite ubushobozi bwo kujya gushaka ubuvuzi bwihariye bityo bakifashisha iyo miti gakondo bivura.

Ubuki bukomoka ku nzuki kandi ni bwiza ku buzima bw'umuntu, bituma iyo yabuze isukari yongera kugira ubuzima bwiza bigafasha mu mitekerereze ye no kugira ubuzima buzira umuze.

Imiti itandukanye ya gakondo irimo ibyatsi bisa icyatsi, bisa umukara, biri ku bikoresho bitandukanye gakondo, nk'amasahani, umusambi, ndetse n'akandi kantu kifashishwa mu gusya iyo miti.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, arasoroma ibibabi by'icyatsi mu ishyamba. Aho agamije ko abona umuti w'indwara runaka imurembeje.

Imbuto ni nziza mu buzima, zifasha abantu kugira ubuzima bwiza, birinda indwara zitandukanye kandi bagakomeza kubaho neza. Iyo ufata imbuto, haba mbere yo kurya ndetse na nyuma, bigufasha kugira ubuzima bwiza.